Abana b'abanyeshuri abahungu ndetse n'abakobwa aho bari ku mugezi bakaba bari kuvoma amazi bakoresheje indobo abandi bayakaraba bisa nkaho bagiye gukoropa.

Abantu benshi cyane harimo aba papa, aba mama abakecuru, ndetse n'abasaza aho bakoraniye ku biro by'akagari, baje mu nama kugira ngo bumve ibyo bagezwaho n'abayobozi babakuriye.

Umupapa wagiye kuvoma, akaba afite ijerekani yaje ku mugezi kuyivomesha, ijerekani nini cyane, akaba ayicayeho, arimo aseka.

Abaganga bagiye batandukanye, aho harimo abamama, abapapa, abasaza ndetse n'abandi bambaye inifomo igizwe n'amataburiya ndetse n'abandi batayambaye, aho bari kumwe imbere y'ikigo nderabuzima barimo bifotoza.

Umumama bambitse amapingu, akaba yunamye hasi, abantu benshi bamushungereye, bisa nk'aho arwaye Ebola, bityo bakaba bari kumuha akato kugira ngo atayanduza abandi.

Umubyeyi uri gukarabya umwana we akoresheje amazi meza n'isabune kugira ngo amurinde uburwayi bushobora kwandurira mu mwanda ndetse n'ubundi.

Umwana bajyanye kwa muganga ndetse muganga akaba ari kumutera urushinge ku kuboko kugira ngo rumurinde kuzandura indwara zigiye zitandukanye.

Inama yahuje abayobozi bagiye batandukanye bishyize hamwe kugira ngo bige ku kibazo cy'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage.

Abana bane bari ku mugezi baje kuvoma, umwe akaba ari gusunika kugira ngo amazi aze, imbere hakaba hari ikibuni kiri kugwamo amazi.

Umwana w'umukobwa wambaye agashati ndetse n'agakanzu, aho arimo gukaraba kuri kandagira ukararabe akoresheje amazi meza n'isabune, kandagira ukarabe ubona ko ari iya kinyarwanda.

Abantu benshi, harimo abana benshi ndetse n'abakuru, aho baje ku mugezi rusange kuvoma amazi yo kujya gukoresha mu rugo iwabo ibikorwa bitandukanye.

Umusaza wagiye kwa muganga aho muganga ari kumupima mu kuboko kwe umuvuduko w'amaraso ye kugira ngo abone uko amwitaho no kumuha ibini byo kumufasha.

Abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, harimo nk'abo mu nzego z'ubuzima, abo mu nzego z'umutekano nka polisi, aho bari guha abana amata bakoresheje inkongoro.

Abaganga batandukanye bafite amakayi n'andi madokima; bakaba barimo bagenda bandika amakuru bahawe n'abarwayi; kugira ngo barebe imiti baza kubaha.

Abajyanama b'ubuzima, aho bateraniye ku bitaro bari mu nama, ku bijyanye n'ubuzima, bakaba barimo bahugurwa n'uburyo indwara zifata n'uburyo bazirinda kugira ngo bajye gufasha abaturage mu cyaro iwabo.

Abaturage batandukanye aho bagiye mu nama ku bijyanye n'ubuzima bakaba bicaye mu buryo buri ku murongo, bose imbere yabo hari imeza kandi bafite amakayi bari kugenda bandikamo, amazi abateretse imbere ndetse n'ibikapu byabo babisize ku ruhande kugira ngo bakurikire neza.

Umuntu uri gukaraba amazi yakoresheje isabune n'amazi meza; akaba ari gukaraba intoki mugezi wa kizungu; kugirango yirinde indwara zandurira mu mwanda.

Abana benshi bakiri bato aho bari kurwanira amazi ku mugezi wa robine kugira bakarare ubabona ko ari abana bakiri bato cyane.

Umwana uri ku mugezi waje koza indobo ndetse no kuvoma amazi kugira ngo ayajyane iwabo bayakoreshe ibintu bitandukanye, nko kuyanywa kuyatekesha, kuyoga, ndetse n'ibindi.

Abapapa n'abamama batandukanye, bisa nk'aho bose ari abayobozi, aho bateraniye ahantu mu nama, bakaba bahagaze, hariho n'undi wicaye ku gatebe.

Abantu benshi cyane harimo aba papa, abamama, abana, abasaza ndetse n'abakecuru aho bakoraniye ku bitaro, aho bari kumva inama bagirwa n'abaganga ndetse n'izindi nzobere mu buzima.

Muganga aho ari guha umwana amata, akaba ari abana benshi baje ku bitaro ,kugira ngo bitabweho bahabwe imfashabere yo kubafasha gukura neza.

Abantu batandukanye harimo aba papa na mama ubona ko bisa nkaho ari abakozi bo mu buzima, bakaba bari imbere y'ikigo nderabuzima bifotoza bishimye kandi banezerewe cyane.

Abakozi bo mu nzego z'ubuzima, aho bari kwifotoza bahagaze hanze y'ibitaro, bose bishimye cyane, hakaba harimo umwe wambaye itaburiya, abandi batayambaye.

Abantu benshi kandi bishimye cyane, ubona ko bishimiye uruhinja rumaze kuvuka, ndetse bose bakaba bari gukoma mu mashi.

Umubyeyi wajyanye umwana we kwa muganga kugira ngo yitabweho, avurwe, ahabwe n'utunini tumurinda kwandura indwara zigiye zitandukanye.

Umubyeyi wajyanye umwana we kwa muganga kugira ngo aterwe inshinge zimurinda kwandura indwara zitandukanye kandi ahabwe n'imiti imufasha gukura neza.

Abana bari ku mugezi bari baje kuvoma aho bari kwikorera amazi bamaze kuvoma, amazi akaba ari mu ndobo, umwe akaba ari gukorera undi kugira ngo atahe.

Abamama batatu bagiye kuvoma, babiri bakaba bari gusunika inyuma, ni ku mugezi usaba ko basunika igiti kiba kiri inyuma kugira ngo amazi aze, undi akaba arimo avoma.

Abaturage bateraniye mu nama, aho harimo n'abandi bayobozi bagiye batandukanye nk'abo mu nzego z'umutekano ndetse n'abandi, aho bari mu nama ku bijyanye n'ubuzima.

Umuganga uri kuvura umwana, agenda areba ubushyuhe bwe ndetse n'ibindi, kugira ngo abone kumuha imiti imukwiye, bityo uwo mwana abashe kumera neza.

Umwana uri gukaraba amazi ku mugezi, akaba asutamye, arimo akaraba intoki, aseka, ubona ko abyishimiye cyane.

Abantu benshi bakoraniye ku mugezi wa robine baje kuvoma amazi yo kujya gukoresha iwabo mu rugo ibintu bitandukanye.

Umu mama uri kwa muganga muganga akaba ari kumupima amaraso mu kaboko kwe akoresheje icyuma cyabugenewe.

Umumama uvuye kuvoma, akaba yikoreye ikijerekani kirimo amazi, ikijerekani kinini cyane kandi yikoreje n'ingata.

Umwana uri kumena amazi ayakuye mu icupa ayamena hasi, inyuma y'inzu mu muferege kugira ngo icupa rimere neza.

Umumama wazanye umwana we kwa muganga, aho muganga ari kwita kuri uwo mwana amuha ibinini kugira ngo uwo mwana aze kumererwa neza ubuzima bwe bukomeze bugende.

Abajyanama b'ubuzima batandukanye, aho bari kumwe, buri wese afashe terefoni ye mu ntoki, bakaba bari kwifotoza bari kumwe, bari kumwe kandi n'umuyobozi wabo uri hagati yabo, ubona ko bose bishimye cyane.

Abanyeshuri batandukanye aho bari kumanika indangamanota zabo bishimiye ibyo bagezeho ubona ko aseka cyane.

Umusaza wagiye kwa muganga kwivuza, muganga akaba ari kumutera urushinge ku kuboko kugira ngo amukingire indwara.

Umuntu uri kuvoma amazi kuri robine hafi y'ahantu hari igihuru cyakurumbye cyane. Akaba afite ibidomoro byinshi yazanye ku mugezi arimo avoma.

Abana b'abanyeshuri bari ku mugezi wa robine, aho bari gukaraba intoki zabo kugira ngo zise neza bityo bibarinde indwara zandurira mu mwanda.

Umu mama urimo akarabiza umwana we kuri robine umwana yicaye mu ibase akaba umukarabya akosheje amazi meza n'isabune kugira ngo arinde umwana we indwara z'umwanda.

Umwana uri kunywa amazi kuri robine akoresheje intoki ze kugira ngo amurinde icyaka kandi amufashe agire ubuzima bwiza.

Abana babiri bari kumwe, umwe akaba ari gusukira undi amazi, mu gihe barimo bakaraba bakoresheje isabune ndetse n'amazi meza kugira ngo birinde umwanda.

Umwana uhagararanye n'umupapa ndetse bombi bakaba basuzanya, imbere yabo hakaba hari n'abandi bana bagiye batandukanye bo mu kigero kigiye gitandukanye bisa nkaho ari ku ishuri.

Abantu benshi baje kuvoma amazi kuri robine zigera muri enye zubakiye, hamwe hakaba hari abantu benshi kandi buri wese yitwaje igikoresho cye nk'indobo, amajerekani ndetse n'ibindi.

Abana bane aho bari gukaraba ariho umuntu uri kubasukira amazi bakaba barimo gukaraba bishimye baseka kandi banezerewe cyane.

Abantu baje ku mugezi kuvoma amazi, aho robine bari kuvomaho isaba gusunika kugira ngo amazi aze. Hakaba hari abantu benshi ndetse bafite n'ibijerekani byinshi.

Umwana uri kuvoma amazi asa nkaho ari mu kiyaga akoresheje ibido ye bityo akaba arayajyana mu rugo iwabo.

Abana baje ku mugezi ari babiri, bafite ibikoresho baratwaramo amazi bakaba bari kuvoma ndetse bishimye kugira ngo bajyane amazi mu rugo, gukoresha ibintu bitandukanye.

Umwana w'umunyeshuri wambaye inifomo, uri gukaraba intoki, n'amazi meza kugira ngo yirinde uburwayi bushobora guturuka kudakaraba intoki.

Umuntu urimo akaraba intoki ze yakoresheje amazi meza ayo mazi akaba arimo aturuka mu gihombo ndetse ameneka hasi.

Umupapa usa nkaho ari mukuru, aho yicaye imbere ye hakaba hariho muganga wambaye utwuma twabugenewe, itabiriya ndetse n'agapfukamunywa, aho ari kumuvura.

Abantu benshi bari mu nama aho bakurikiranye ikiganiro kiri kugezwaho n'abayobozi babo ku bijyanye n'ubuzima, aho ubona ko abo bantu ari benshi ndetse akaba na bo ari abayobozi bagiye batandukanye.

Abaganga batandukanye harimo aba mama ndetse n'abapapa aho bahagaze imbere y'abanyeshuri babagira inama z'ukuntu bakwirinda indwara zitandukanye hakaba harimo n'abarimu babo.

Abantu benshi baje ku mugezi, baje kuvoma bitwaje amabase, indobo, amajerekani ndetse n'ibindi bikoresho byo gutwaramo amazi.

Abaganga batandukanye, aho bahagaze ahantu bombi bambaye amataburiya ubupfukamunwa ndetse bakaba bafite n'ibindi bintu mu ntoki bifotoza, ubona ko bishimye cyane.

Umupapa n'umumama bagiye kwa muganga, kugira ngo muganga abagire inama ku bijyanye n'ubuzima. Aho umumama atwite bityo umupapa akaba yamuzanye kwa muganga, kugira ngo bumvire hamwe ibyo basabwa gukora.

Abantu batandukanye harimo abamama, abapapa ndetse n'abana; baje kuvoma kuri robine rusange; aho bazanye ibijerekani byinshi bakaba bategereje.

Umwana uri ku mugezi, akaba ari kwikorera amazi avuye kuvoma, amazi ari mu ndobo ariko akaba ari menshi kuko ubona ko uwo mwana atayashoboye.

Abana bari kuvoma amazi kuri robine bakoresheje utudomoro twabo; bakaba barayajyana kuyakoresha imirimo itandukanye yo mu rugo nko kuyanywa, kuyatekesha, kuyafurisha ndetse n'ibindi.

Abaganga bambaye amataburiya yabo, aho bari kwifotoreza mu bitaro, bose bari kumwe, ubona ko bishimye kandi banezerewe cyane.

Umuganga uri gutera umurwayi urushinge, aho uwo murwayi yahumirije ubona ko afite ubwoba bwinshi cyane.

Abana bari ku mugezi baje kuvoma akaba ari abana bagera muri bane, aho buri wese yajyanye ikijerekani cye aratwaramo amazi, hafi y'uwo mugezi hakaba hari igishanga.

Abayobozi bagiye batandukanye, bo mu nzego z'ubuzima, bagera muri batanu, aho bari mu nama bagenda baganira, imbere yabo hateretse amazi bari kugenda banwa, hamwe n'impapuro zo kugenda bandikaho.

Umwana uri gukaraba intoki ze ku mugezi, amazi akaba arimo kugwa mu ibase kugirango yirinde indwara zitandukanye.

Umupapa wambaye neza ishati, ndetse n'ipantaro y'umukara, aho ari gukaraba kuri kandagira ukarabe yikoreye yo mu rugo, ubona ko yishimye kandi anezerewe cyane.

Umwana wikoreye amazi mu gipira kinini, aho umugabo ari kuyamutuza ubona ko uwo mwana yavunitse cyane.

Umuntu agiye kwa muganga, aho muganga ari kumutera urushinge kugira ngo amukingire indwara zigiye zitandukanye bityo bizamurinde kwandura.

Ibitaro binini cyane, byubatse ku buryo bwiza kandi ubona ko bugezweho, bukaba bufite umucaca ndetse n'imihanda myiza ibigana.

Abayobozi batandukanye harimo daso, gitifu ndetse n'abandi, aho bateraniye ku murenge kugira ngo bige ku kibazo cy'imibereho myiza y'abaturage.

Abana b'abanyeshuri, aho bari kumwe bafatanye urunana, bambaye imipira isa bose, bishimye kandi banezerewe cyane.

Abakozi bo mu nzego z'ubuzima bagiye batandukanye aho bose bari hanze, bakaba bambaye imipira y'umweru bose bari kwifotoza hanze y'ikigo ubona ko bishimye cyane.

Umwana w'umukobwa uri ku mugezi akaba arimo akaraba akoresheje amazi meza kugirango arinde yirinde indwara zandurira mu mwanda ndetse n'izindi ndwara zishobora guterwa n'mwanda.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, harimo abapapa, abamama, abana, basaza n'abakecuru, bakoraniye ku biro by'Akagari kabo, aho baje mu nama y'Akagari.

Umwanawana uri kunywa amazi ku mugezi akoresheje, igikombe akaba ari umugezi rusange ufite amazi ahora ameneka. ndetse uyu mwana akaba ari kuvoma yishimye kandi anezerewe.

Abagize akagari ka Bwimana bitabiriye gukora umugezi, aho umugezi wari wararohamye kubera amasuri, bakoze umugezi kugira ngo bakomeze babone amazi uko bikwiye kandi amazi asukuye, aho buri muturage yari yitabiriye iyo gahunda yo gukora umugezi, dore ko hari hashize igihe umugezi warazibye bikaba byatumye bongera bakavoma amazi meza.

Umumama uvuye kuvoma amazi, aho yikorereye indobo irimo amazi atwaye n'indi mu ntoki nayo irimo amazi.

Umwana w'umuhungu uri ku mugezi, aho akaba intoki ze neza akoresheje amazi, kugirango azirinde umwanda ndetse n'indwara zakwandurira mu umwanda.

Abaganga batandukanye bambaye n'amataburiya yabo, aho bahagaze ahantu bifotoza bishimye kandi banezerewe cyane.

Agatanda k'amasahani, aho kariho udukoresho tugiye dutandukanye badusizeho kugira ngo twumuke nk'ibikombe, utubido, amasahani, ibase ndetse n'ibindi.

Abamama batandukanye bagiye ku bitaro kugira ngo babonane na muganga abapime indwara zitandukanye. Aho bari kumwe na muganga, muganga arimo abapima.

Abamama babiri, ubona ko bose basobanutse, bambaye neza aho yambaye agakoti, undi akaba yambaye agakanzu keza k'amabara, aho bari kwifotoza bari kumwe, ubona ko bose banezerewe.

Umukobwa uri kuvoma amazi ku mugezi, akaba yazanye ikijerekani ndetse n'amabase, bisa nk'aho ari gufura imyenda.

Umwana w'umukobwa usa nkaho akuze, aho ari ku mugezi avoma amazi akoresheje ikijerekani yateretse mu ibase, ndetse imbere ye hakaba hari n'imyenda ihanitse bisa nkaho ariwe umaze kuyimesa.

Abaganga batandukanye aho bari kwakira abarwayi babapima amaraso kugira ngo barebe ko bataba barwaye indwara zitandukanye.

Abayobozi batandukanye bagiye mu nama bakaba bicaye, imbere yabo hariho amacupa y'amazi ndetse n'ibindi.

Umwana uri kuri robine, akaba ari gukaraba amazi, akaraba intoki ze kugira ngo yirinde umwanda n'izindi ndwara zaterwa no kudakaraba intoki.

Abana benshi bavuye hirya no hino aho bari kumwe, hakaba hariho abandi bantu bari kubafasha babaha igikoma, amata ndetse n'ibindi binyobwa kugira ngo babeho neza.

Abanyeshuri benshi ndetse bambaye inifomo, hakaba harimo n'abafite amakaye yabo mu mugongo, aho bari kuri robine, baje gukaraba intoki ndetse no kunywa amazi.

Umupapa wicaye ku ijerekani, aho yaje kuvoma amazi akaba aseka cyane ndetse afashe ku ijerekani ye. Akaba agiye kuvoma amazi, akajya kuyakoresha mu rugo ibintu bitandukanye.

Abamama bagiye kwa muganga kugira ngo bitabweho, aho imbere yabo hari umuganga urimo agenda abasuzuma akoresheje utwangombwa twabugenewe kugira ngo abone uko abitaho abahe n'ibinini bibakwiriye.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, akaba afite umusatsi wamurariyeho, ubwanwa bwamurariyeho, akaba yambaye ishati yacikaguritse kandi mbi cyane ubona ko idaherukwa gufurwa.

Abanyeshuri bari ku ishuri aho bishimye cyane bakaba bari guseka kandi bamanitse amaboko, ni benshi kandi bose bambaye impuzankano ibahuza y'ikigo k'ishuri.

Abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abapapa, abamama bageze mu zabukuru ndetse n'abandi; aho bitabiriye inama ku bijyanye n'ubuzima.

Umumama wagiye kwa muganga, aho yicaye ku meza hamwe na muganga, imbere yabo hakaba hari icupa, bakaba bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu babiri bari kumwe, aho umwe yifashe mu mutwe, undi akaba ari kumugira inama zitandukanye kugira ngo uwo muntu amere neza.

Abantu benshi aho baje kureba abaganga batandukanye, bakaba bari mu kibuga abaganga baje mu modoka bakaba barimo babavura babagira n'inama z'ukuntu bakirinda uburwayi bwo mu mutwe.

Umumama uri guseka wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'agasengeri k'umukara, akaba ari guseka kandi cyane ubona ko hari ikintu kimusekeje.

Abantu babiri bari kumwe, ubona ko umwe ababaye cyane kuko yigunze, undi akaba arimo kumuhumuriza.

Abamama batatu umwana umwe ndetse n'umupapa umwe aho bicaye ku gatebe ahantu barimo baganira ubona ko bameze nk'aho bari mu itsinda kuko bafite n'amakayi.

Umumama usa nushaje aho ari kwifotoza ari muri farumasi ye irimo imiti inyuranye, ariyo mu dukombe mu dusheshi ndetse no mu yindi.

Umukecuru wambaye urunigi akaba yipfutse n'igitambaro cy'umweru

Abana batoya bagiye batandukanye bari mu kigero cy'imyaka irindwi na cumi n'ibiri, aho barikumwe bari kwifotoza bose baseka cyane kubona ko banezerewe.

Abamama bagera muri bane hamwe n'umupapa umwe ndetse bakaba bicaye ahantu kudutebe barimo baganira ku ngingo zitandukanye kandi bafite ikayi bisa nkaho bari mu itsinda.

Abayobozi bagiye batandukanye aho bicaye imbere y'abaturage babagira inama, y'ikijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho umwe mu bamama bicaye imbere ariwe ufite mikoro.

Umumama n'umupapa, aho bari kumwe bisa nkaho bari imbere y'abantu, ndetse umumama akaba afashe mikoro arimo abwira abo bantu ku kibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse n'indwara zo mu mutwe.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe akaba yambaye utwenda twacitse ahetse imifuka yatoraguye ndetse afite n'agatete mu ntoki, aba yisize amarange y'umukara mu maso no mu mutwe ubona ko asa nabi.

Umumama wajyanye umwana kwa muganga, aho ari kumwe na muganga amwereka ibisubizo by'umwana we ndetse n'uwo mu mama akaba arimo abireba kugira ngo babungabunge ubuzima bw'umwana.

Abayobozi bari mu nama ijyanye n'ubuzima. Ni inama ya RBC; imbere hakaba hari abayobozi babiri bayoboye inama, umugabo ndetse n'umugore aho bari kugeza ku baturage byinshi ku bijyanye n'ubuzima.

Ibitaro bivura uburwayi bwo mu mutwe; aho byubatse neza ndetse bikaba bifite n'igipangu kimeze neza.

Abaganga batandukanye harimo aba papa, aba mama, abasore n'inkumi abasaza n'abakecuru, aho bari kwifotoreza ku bitaro bombi bishimye kandi banezerewe.

Umuntu wahagaze ku gikuta k'inzu akaba arimo areba hejuru bisa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa ibindi bintu byamucanze.

Umuntu uri kurira, ndetse akaba yipfutse agatambaro mu maso, kandi arira cyane bisa nkaho afite ikibazo kimubabaje.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu, akaba yiteze n'igitenge, akaba arimo aseka ubona ko yishimye cyane.

Umusaza usa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe aho yicaye hasi ndetse bakaba bamwambitse amapingu kugira ngo atagira umuntu akomeretsa.

Abaganga babiri aho bicaye ahantu bakaba barimo baganiriza umuntu umwe abambwira ibibazo bye kugira ngo bamugire inama z'uko yakwitwara.

Umukecuru uri hagati y'abana benshi cyane, ndetse abo bana bakaba ubona ko bari mu kigero gitandukanye akaba arimo ababwira inkuru.

Umuntu wicaye impande y'igiti akaba yicaye ku gasambi, afite umunyururu uri mu kaguru ke kandi uhambiriye kuri icyo giti; bisa nkaho ari umucakara ufungiwe ahantu.

Umumama wicaye mu nzu ndetse idirishya rikinguye, ndetse ubona ko iyo nzu ishaje imbere hakaba hariho agasambi, wicaye ku gatere kandi yigunze bisa nkaho ari kwibaza ibibazo byinshi.

Abantu batandukanye harimo abapapa, aba mama, abayobozi ,abirabura n'abazungu aho bitabiriye igikorwa cyo gutera ibiti.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe aho yambaye nabi cyane kandi imyenda yose yaracikaguritse, akaba afite umusatsi umeze nabi ndetse afite n'amaraso ku maguru bisa nkaho yituye hasi.

Umuntu urimo kurira, akaba ijisho ryahindutse umutuku, ndetse n'amarira atemba ku matama, bisa nk'aho ari ikintu, kimubabaje cyane.

Umumama uhagaze imbere y'abandi bantu, ndetse benshi bombi bakaba bafite uducupa tw'amazi, akaba arimo abagezaho ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umumama n'umukobwa, aho bari imbere y'abandi bantu benshi muri sare, bakaba bafite mikoro bisa nkaho bari kubagezaho ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Aba mama batatu aho umwe afite umwana ndetse akaba arimo no kumwonsa umwe akaba afite igitiyo abandi babiri bafite igiti mu ntoki aho ubona ko basa nk'abavuye ku kazi.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, akaba arimo yisekesha nta muntu bari kumwe, ndetse abumbuye n'umuywa cyane ubona ko bimeze nkaho byamucanze.

Abaganga batandukanye; harimo aba mama, papa, abasaza ndetse n'abakecuru; aho bari kwifotoza ndetse bafite n'ibindi bipapuro mu ntoki; bisa nkaho hari ikintu kibashimishije.

Umuntu wariko ufotoza aho ahagaze imbere y'abandi bantu benshi akaba yambaye ishati nziza ndetse akaba arimo aseka kandi yishimye cyane.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, akaba yicaye ahantu yambaye imyenda isa nabi, yambaye n'inkweto zisa nabi, akaba afite ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse n'amacupa atandukanye yagiye atoragura mu nzira.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, akaba yambaye neza yambaye imyenda yacikaguritse cyane kandi mibi iriho umwanda, akaba yicaye ahantu afite amacupa n'indi myanda yatoraguye mu nzira.

Icyumba cyo kwa muganga, akuriramo amenyo, aho harimo intebe nziza kandi zitandukanye z'ubwoko bwose, bishobora kwifashishwa n'abarwayi, hakaba harimo n'imashini zitandukanye zifashishwa na muganga agenzura kandi akura amenyo y'ababarwayi.

Abana bafite uburoso, bakaba bari kwiborosa bakoresheje uburoso ndetse na korogati, bakaba bareba bishimye kandi banezerewe cyane.

Icyumba gihurirwamo kandi kigavurirwamo amenyo, hakaba harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ubwoko bwose n'amamashini agezweho.

Umupapa mwiza wambaye neza, agapira ndetse n'agakote k'ikoboyi, akaba arimo aseka, afite amenyo meza kandi afite isuku y'umweru.

Abana bari mu ishuri bose bakaba barimo baseka, bamanitse amaboko bari kwerekana bahawe, ubona ko babyishimiye kandi bibanejeje.

Umwana uri kwiborosa akoresheje akaroso gato w'umwana, akaba yasamye, aseka kandi ubona ko yishimye cyane.

Umugabo urimo kwireba mu kirahure, ari kwihaganyura mu menyo kugira ngo arebe niba nta myanda isigayemo bityo abashe kuba yayikuramo.

Abantu baje kwitabira umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima aho hari kandi abaganga bagiye batandukanye bari gupima abantu ibiro, uburebure ndetse bakabasuzuma ko batarwaye n'izindi ndwara zitandukanye.

Umuntu uri kwiborosa akoresheje uburoso na korogati, akaba kandi ari kwireba no mu ndorerwamo kugira ngo arebe ko ameze neza.

Umuganga uri mu bitaro, imbere ye hakaba hariho ibyuma byinshi ari gukoresha, arimo agenzura indwara z'abarwayi, akaba afite n'igipapuro ari kwandikaho.

Ibikoresha byinshi kandi bigiye bitandukanye, ubona kandi ko bigezweho, harimo imashini zitandukanye, intebe nziza, bikaba biboneka aho bakurira amenyo kwa muganga, bikaba byifashishwa n'umuganga ndetse n'umurwayi mu gihe bari mu gikorwa cyo gukurwa amenyo.

Abana bari ku ishuri bari kumwe n'umurezi wabo bakaba bose bishimye cyane kuko bahawe korogati yo kubafasha gusukura amenyo yabo.

Umupapa urimo kuyireba mu indorerwamo afite akatsi kandi agashyirara mu menyo ubona ko amenyo ye ari meza kandi agenda ayagira neza kugira ngo ayarinde uburwayi.

Umuntu ufite amenyo meza ubona ko yaborosheje, aho afite akatsi ari wicisha mu menyo, kugira ngo akuremo akantu kahagamyemo bityo amenyo ye amere neza cyane.

Umwana wagiye kwa muganga, bakaba barimo kumukura amenyo, akaba ari umwana ukiri muto, uri hagati y'imyaka irindwi na cumi n'ibiri.

Umwana wagiye kwa muganga bityo muganga akaba ari kumukura iryinyo akoresheje utwuma twabugenewe.

Umwana wagiye kwa muganga kwivuza ikibazo cy'amenyo, muganga akaba ari kumuvura akoresheje utwuma twabugenewe.

Umupapa wambaye agapira k'umweru, akaba ari guseka cyane kandi afite n'amenyo meza y'umweru, ubona ko afite isuku.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi akaba arimo amukura iryinyo akoresheje utwuma twabugenewe ndetse akaba yambaye na ga ndetse n'agapfukamunwa kugira ngo yirinde.

Umuntu wagiye kwa muganga kugira ngo bamuvure kandi bagire neza amenyo ye, aho ari kumwe n'umuganga uri kumwitaho, akaba yasamye ari kumwereka amenyo ye.

Umuntu wagiye kwa muganga yivuza amenyo, aho muganga ari kumukura akoresheje utwuma twabugenewe.

Umwana wagiye kwa muganga kwivuza amenyo, muganga akaba ari kureba amenyo ye kugira ngo ayavure bityo umwana atahe.

Umumama wagiye kwa muganga, aho abaganga bari imbere ye, bakaba bari kumufasha kumuvura amenyo ye, kugira ngo amere neza bakaba bifashisha utwuma twabugenewe.

Abaganga babiri aho bari kuvura umurwayi, akaba yasamye ubona ko barimo kumuvura amenyo ye kugira ngo akomeze amere neza.

Abana b'abanyeshuri aho bafite uburoso n'amazi bakaba barimo kubarosa amenyo yabo kandi ubona ko babyishimiye cyane.

Umuntu uri kuborosa amenyo akoresheje uburaso na korogati kugira ngo amenyo ye amererwe neza, kandi ayarinde indwara zigiye zitandukanye.

Umuntu uri kwireba mu ndorerwamo akaba arimo guseka cyane yishimye kandi anezerewe cyane.

Muganga uvura amenyo aho ari mu cyumba cye kandi akaba arimo atunganya udukoresho two kumufasha akaba ari kumwe n'umurwayi.

Abanyeshuri baje kwa muganga bivuza uburwayi bw'amenyo, aho abaganga barimo babakurikirana ndetse hakaba harimo na bamwe bafite ubwoba.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa ku bantu baje kwikuza amenyo no kuyakoresha, haba harimo intebe zabugenewe ndetse n'utundi twuma twabugenewe, dufasha muganga mu gukura cyangwa kuvura amenyo.

Umwana wumukobwa ufite umusatsi mwiza ndetse mwinshi aho arimo ari kwiborosa akoresheje uburoso ndetse n'akarogati kugirango arinde amenyoyo ye kwangirika cyangwa kurwara.

Umwana uri kwa muganga aho imbere ye hari abaganga babiri bambaye udupfukamunwa, amatabuya ndetse na ga bakaba bari kumukura amenyo ye arwaye.

Ibikoresho bitandukanye by'utumashini ndetse n'ibindi byifashishwa mu kwa muganga mu icyumba gikurirwamo amenyoba byifashishwa na muganga akura amenyo y'abarwayi kugira ngo avemo neza.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga bifasha muganga kugira ngo akore akazi ke neza hariyo indabyo, mikorosicopi n'ubundi bwoko bugiye butandukanye bufasha umurwayi.

Umuntu uri kwireba mu ndorerwamo aseka cyane, kandi yoza amenyo ye, kugira ngo ayarinde kuba yafatwa n'indwara zakandurira mu mwanda w'amenyo.

Umumama n'umukecuru, aho bari gukina udukino tugiye dutandukanye, bisa nk'aho uwo mukecuru ashaje cyane bombi bakaba bishimye.

Abapapa babiri bambaye neza aho bari kugenda mu muhanda baganira baseka kuko bombi bishimye kandi banezerewe.

Umukecuru uri kumwe n'umukobwa we, umukobwa we akaba ari kumukoresha siporo, kunanura amaguru n'amaboko, kugirango umukecuru akomeze kumererwa neza.

Umupapa w'umusaza, aho ari kumwe n'abandi bantu batandukanye, bakaba barimo bafata ifunguro ndetse baganira ku ngingo zitandukanye.

Umukecuru waho ari kumwe n'umwana we, umukecuru akaba afite imvi nyinshi ndetse yambaye agashati k'umweru aho bombi bari kwifotoza aseka kandi y'ishimye.

Umusaza ubyibushye wambaye agapira ndetse na kuteri, aho arimo akora siporo aterura utuntu mu mumaboko, kugira ngo ananure amaboko ye kugirango akomeze amererwe neza, kandi ubuzima bwe bugende neza.

Umumama urimo arya ibiryo bigizwe n'imboga, ibinyamisogwe, ibinyampeke, ibinyamafufu, ndetse n'ibindi, ubona ko ari indyo yuzuye kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bumererwe neza.

Umuganga w'umukobwa uri kumwe n'umusaza waje kwa muganga akaba ari kumuvura kandi bari no kuganira baseka bose bishimye cyane.

Umusaza usa nk'ukuze waje kwa muganga kugira ngo yivuze indwara zitandukanye bityo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza ntibumere neza cyane.

Umugabo ukuze aho arimo akina umukino uzwi nka dame akoresheje ibijenjegeri, akaba arimo agenda abyimura.

Abaturage batandukanye harimo abamama n'abapapa, aho bishimye cyane bakaba bahagaze mu murima ndetse bamwe bafite n'ibikoresho byabo, bakaba bifotoza, banezerewe.

Umumama n'umwana we bari kumwe, aho barimo baganira bafatanye intoki ku zindi kandi barebana ku maso ubona ko bose banezerewe.

Umucecuru ugeze muzabukuru ufite umusatsi w'imvi aho arimo gukora siporo, ufite utuntu tubiri mu maboko ari kugenda azunguza kugirango umubiri we ukomeze kumererwa neza.

Umusaza, bagiye kwa muganga; akaba afite uruhara ndetse n'imvi ku bwanwa, bityo akaba ari kumwe na muganga amuha ibinini; afite amazi agiye kubinywa.

Umupapa wagiye kwa muganga, akaba yambaye agapfukamunwa, aho umuforomokazi apfukamye imbere ye, akaba arikumufata igipimo cy'ubushyuhe kugira ngo abashe kumuha imiti.

Abamama batatu bari kumwe bombi ubona ko bageze mu za bukuru, bakaba bari kureba muri terefoni umwe yambaye ingoferoro y'umweru, n'undi aho undi nta ngofero yambaye ndetse ukaba ubona ko bishimye.

Umusaza n'umukecuru, bari kuganira bagenda batera ibiganiro baseka, bishimye ubona ko baranezerewe cyane.

Umukecuru wagiye kwa muganga akaba ari kumwe n'umuforomokazi, aho ari kumuha ibinini kugira ngo abinywe n'amazi yo kubinywesha kugira ngo bigende neza.

Umwana w'umukobwa bisa nkaho akuze aho ari kumwe n'umupapa akaba arimo amufasha gukora udusiporo dutandukanye kugira ngo bimufashe mu mubiri we kandi bimurinde uburwayi bumwe na bumwe.

Kimwe mu gikoresho baha abantu bafite ubumuga bw'umugongo cyangwa bagwaye umugongo kugira ngo kibafashe, bakaza bakigenderaho bagifashe, bityo kikabarinda kwangirika cyambwa gutonekara.

Umupapa n'umwana we aho barimo bakina umupira wa basikete; akana kishimye gatera umupira; n'umupapa yishimye ubona bombi ko banezerewe

Umumama uri kumwe n'umukecuru aho uwo mukecuru afite icyuma kimufasha kuko bisa nk'aho arwaye umugongo bityo akaba ari kukigenderaho.

Umuforomokazi aho ari kumwe n'umurwayi, akaba arimo amusuzuma kugira ngo arebe indwara arwaye bityo aze kumwitaho.

Umumama uri gukora siporo ku gasambi keza ahantu hanze, mu mucaca arimo agorora amaguru ye ndetse n'umugongo, kugira ngo akomeze amererwe neza kandi agire ingingo nzima.

Umupapa ufite ikibazo cy'umugongo, aho afite inyunganirangingo, akaba agenda ayikoresha kugira ngo umugongo we utangirika. Akaba kandi ari kumwe n'umuganga ugenda umufasha kandi bose bishimye.

Abamama babiri bari muri siporo, bose bakaba bambaye imyenda ya siporo, barimo bagenda, batembera, bananura ingingo z'umubiri wabo.

Umukecuru urimo gukora siporo ananura amaguru ye, amaboko ye ndetse n'umugongo we, akaba yicaye ku gasambi keza kamufasha gukora izo siporo kugira ngo umubiri we unanuke.

Umubyeyi urimo zabukuru ari kwitabwaho n'urubyiruko rukiri rutoya, ahobari kumufasha kumuha ibyubaka umubiri, ibitera imbaragara, kugira ngo ubuzima kugenda nta kibazo bufitemo umubiri. Dore ko kwitabwaho ku bantu bageze mu za bukuru ari ingenzi ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Umupapa usa nkaho yavunitse aho ari kumwe n'umuforomo, umuforomo amufashe akaboko kugira ngo, uwo papa agende neza kandi buhoro kugira ngo bimurinde gukomereka.

Umukecuru urimo akora siporo ananura amaboko ye, akoresheje aka ariteri gatoya akagenda akazamura kugirango yirinde ubumuga bw'ingingo.

Abamama batatu aho bari kumwe bakaba barimo batera ikiganiro ndetse baseka ukaba ubona ko bombi bishimye ndetse bishimiye n'ibihe barimo.

Umusaza, uri kumwe n'umwana ukiri muto, aho bari kurebana, baseka, bakina, ubona ko bose bishimye cyane.

Abamama bagiye batandukanye, aho bari mu isoko bakaba baje kugurisha inyanya ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye nk'amarongi, imyembe ndetse n'izindi, bakaba bari hamwe barimo baganira.

Abapapa, abamama ndetse n'abana, aho bicaye ahantu mu gacaca, umumama umwe akaba ari kuboha agatete ndetse n'abandi bakaba barimo kumureba.

Umusaza ugeze mu za bukuru, aho yicaye akaba arimo asoma ibitabo bitandukanye, ndetse anywa n'amazi kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza.

Umupapa n'umwana we bicaye mari saro bakaba barimo bakina umukino wo kurwana binyuze muri tereviziyo kandi bakaba bishimiye kandi baseka cyane.

Umusaza wagiye kwa muganga yivuza, umuforomokazi akaba ari kumwambika igipimo mu kuboko, kugira ngo arebe uko ameze.

Umwana w'umukobwa aho ari gucunga papa we ku kagare, papa we ushaje cyane bombi bakaba bari guseka kandi bakwekwenutse ubonako bombi bishimye.

Umuntu urimo yita ku musaza amwoza yakoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo amurinde umwanda ndetse n'indwara zishobora kwandurira mu mwanda.

Umusaza wagiye kwa muganga, kwivuza indwara zitandukanye, aho ari kumwe na muganga uri kumwitaho, akaba ari kumuha ibinini anamubwira uko azaza abifata buri munsi.

Umusaza uri gukora siporo z'amaboko, akaba arimo agenda yinanura kugira ngo arinde umubiri we kurwara indwara zaterwa no kudakora siporo.

Umuryango ugizwe na papa, mama, umusaza, umukecuru ndetse n'abana babiri, aho urimo wifotoza wishimye cyane, baseka kandi bombi banezerewe.

Abagabo babiri basa nkaho bageze mu za bukuru, aho bari muri siporo bambaye imyenda ya siporo bakaba barimo bagenda, kuri ka mucaka kandi bafite amazi mu ntoki bagenda banywa.

Abaturage bari mu nama, hakaba higanjemo abagore baje mu kagoroba k'umubyeyi, aho bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye ndetse bakaganira no ku makuru agezweho.

Icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima muturage w'u Rwanda, bikaba byanditse mu rurimi rw'Icyongereza ngo ''Health People Rwanda'', bivuze ko giha ubuzima abaturage b'u Rwanda.

Abaganga babiri umugabo n'umugore; aho bahagaze bifotoza bafite icyapa cyanditseho bibiri na mirongo itatu; ubona ko bishimye.

Abaganga babiri harimo umupapa n'umumama, aho bafashe icyapa cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira. Bakaba bari gushishikariza abantu kujya bajya kwa muganga kwisuzumisha iyo ndwara.

Abantu benshi bari mu muhanda, bambaye imipira y'imyeru, bakaba ari abantu bo mu ingeri zigiye zitandukanye, aho bafite ibitambaro byanditseho ngo: "Twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira".

Abantu batandukanye, harimo abakora mu nzego z'ubuvuzi, bateraniye mu nama muri sare nini aho bari kumva ikiganiro bagerwazwaho n'inzobere mu buvuzi.

Umukecuru ushaje, upfutse ijisho rimwe, bisa nkaho arirwaye bityo kwa muganga bakaba bamupfutse.

Abayobozi mu nzego zitandukanye, harimo abapapa n'abamama aho bicaye ku ntebe nziza imbere y'abantu, bakaba barimo babagezaho ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima.

Umuntu uhagaze imbere y'abandi bisa nkaho ari umupapa ukuze, akaba ari kuvugira muri mikoro ababwira inama bijyanye n'ubuzima.

Abayobozi batandukanye, bo mu nzego zitandukanye, aho bari mu nama ya makumyabiri makumyabiri na kane, ku kijyanye n'ubushakashatsi ubuzima ndetse n'indwawana n'uburyo bazirinda.

Abayobozi batandukanye harimo abapapa, abamama, abasaza, abakecuru, abirabura ndetse n'abazungu kandi bakaba bombi bambaye amakarita yabo, aho bari kwifotoza bishimye kandi bizihiza umunsi w'umugore.

Abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage babo aho bari kwifotoza bishimye, bisa nk'aho bavuye mu nama baba bari gufata agafoto k'urwibutso.

Abaganga bagera muri bane, aho bari kuvura umurwayi umwe usa nkaho arembye cyane, bakaba barimo bamukurikirana aryamye ku gitanda.

Uburyo butandukanye bwo kwirinda icyorezo cya koronavirusi, harimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, gusiga intera ya metero hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa ndetse n'ibindi.

Umunsi mpuzamahanga wo kurengera ibidukikije, uba ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cumi buri mwaka, aho ibihugu bihura mu nama bikaganira ku ngingo zigiye zitandukanye z'ukuntu twakwita ku bidukikije.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye z'ubuzima barimo aba papa, aba mama, abasaza n'abakecuru aho bicaye hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abayobozi batandukanye harimo abapapa n'abamama aho bahagaze ku gikuta bifotoza kandi bishimye ndetse bose bakaba bambaye amakarita abaranga.

Abakobwa bagera muri bane, aho bari kwifotoza bishimye, banezerewe bisa nk'aho bose ari inshuti.

Sale nziza yo ku bitaro, aho irimo inebe zitandukanye, zigiye zitondetse ku muronko, ikaba irimo imeza ndetse na televiziyo yo kureberaho amakuru ndetse n'ibindi bintu biyinyuzwaho.

Icyumba cyo kwa muganga ndetse kinini kikaba kirimo intebe n'utundi dukoresho twinshi cyane twifashishwa na muganga kugira ngo avure abarwayi neza.

Icyumba cyo kwa muganga gikoze neza kikaba kirimo amakaro, parafu, amatara, ndetse n'ibindi bintu bikigize cyiza cyane ubona ko kinogeye buri wese.

Umuntu waje ku bitaro bakaba bari kumupima bamwambitse imishumi mu kuboko kugira ngo barebe indwara arwaye bityo babashe kumuha ibinini.

Sale yo mu bitaro imeze neza irimo intebe nziza cyane, akaba ari sale irimo amatara, ikaba irimo amakaro ndetse n'ibindi bintu byiza ubona ko byishimirwa na buri wese.

Icyumba cyo kubitaro gikoze neza gikoropye neza kirimo amarangi meza kandi gitatse na neza, kikaba kirimo inzugi nziza amadirishya meza ubona ko ari ahantu hatuje.

Ibitaro byubatse neza bikaba byubatse no mu buryo bwiza, bifite ubusitani bwiza ndetse buteyemo indaboba bukaba bufite utuyira tunyuze hagati yabyo, tunyurwamo n'imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga.

Igitanda cyo kwa muganga kimeze neza kandi gikomeye, aho imbe imbere yacyo hari imashini ikoreshwa na muganga mu gihe ari kuvura umurwayi uryamye kuri icyo gitanda

Umuganga uri kuvura umwana w'uruhinja wambaye akagofero n'utundi twenda twiza, aho na mama we ahari, muganga akaba arimo kumuvura no kumwitaho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amakaro, kikaba kirimo n'intebe zimeze neza amazi yo gukaraba, ndetse n'ibindi bikoresho byose bishobora kwifashishwa n'umurwayi cyangwa muganga.

Ibitaro byubatse neza ndetse ku buryo bwiza bifite amatara, jaride ndetse indabo n'ibiti byiza biteye imbere yabyo ibiha amahumbezi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo udukoresho tugiye dutandukanye dushobora kwifashishwa n'abarwayi harimo nk'abarwayi bafite ikibazo cy'ingingo cyangwa bafite ikibazo cy'ubuzima.

Umupapa wicaye ku mabuye, ni munsi y'igiti kinini cyane, gifite umubyimba munini cyane ndetse cyatabitse cyane, ubonako ari igiti cya kera.

Icyumba cyo ku bitaro kigizwe n'ubwuma bwinshi cyane ndetse butandukanye, bwifashishwa bavura abarwayi cyane cyane ab'indembe. Hakaba harimo imashini ndetse n'utundi tuntu twinshi twifashishwa muganga.

Ibitaro byubatse ku buryo bwiza aho ari binini cyane bikaba bifite jaride iteye neza ndetse inameze neza, bikaba bifite amatara ari iruhande bwayo abimurikira ndetse n'ibindi biti biyagize neza.

Ibitaro byubatse ku buryo bwiza, aho ari ibitaro byubatse mu buryo bwa etaje, imbere yabyo hakaba haparitse imodoka ndetse n'abandi bantu bahari bari kuganira.

Abantu benshi bateraniye ku bitaro kugira ngo bakore inama ijyanye n'ubuzima, hakaba harimo abantu batandukanye, abamama, abapapa ndetse n'abandi.

Icyumba cyo mu bitaro kigizwe n'ibitanda bishashe neza bifite inzitiramubu, ndetse n'ibindi bintu byinshi bishobora kurinda ikintu cyahungabanya umurwayi.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye, tuboneka kwa muganga, dufasha abarwayi, cyane cyane abarwayi b'ingingo zidakora neza kugira ngo bimenyereze.

Icyumba cyo mu bitaro kibamo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubwoko bwose, byifashishwa mu kunanura ingingo z'abarwayi, cyane cyane nk'amaguru, amaboko, umugongo ndetse n'izindi.

Farumasi irimo imiti itandukanye kandi myinshi igiye ipanze neza ku du sitajeri, ikaba ari imiti ivura indwara zitandukanye.

Ibikoresho bigiye bitandukanye biboneka kwa muganga, hakaba harimo ubwuma bw'ubwoko bwose, imashini zifashishwa na muganga ndetse n'ibindi bifasha kwa muganga.

Kwa muganga aho bakirira abantu haba hari umusore wicaye ku intebe, imbere hari akameza gateretseho indabyo, ku rundi ruhande hakaba hariho umuganga uri kwakira umurwayi.

Ibitaro byubatse neza ndetse no ku buryo bwiza, bikaba biri ahantu heza, imbere yabyo haparitse imodoka ndetse hakaba hari n'ibendera, jaride nziza, ndetse n'ibindi, bikaba byubatswe mu buryo bw'etaje igeretse kabiri.

Ibitaro byitwa petiriyatirike senta bivura indwara zitandukanye harimo izo mu mutwe, izo mu nda, iz'uruhu iz'ubumuga ndetse n'izindi.

Umwana wagiye kwa muganga, bityo muganga akaba ari kumupima akoresheje igipimo yamusize mu kaboko kugira ngo amenye uko ahagaze.

Abaganga batandukanye, harimo abamama n'abapapa aho bari mu bitaro, bakaba bambaye amataburiya ingofero ndetse n'ubupfukamunwa kugira ngo abarwayi batabanduza.

Ibitaro byubatse neza ndetse n'uburyo bwiza, aho mo imbere yabyo harimo jaride iteye neza iriho umucaca ndetse n'indabo, ibiti by'ubwoko bwinshi bizana amahumbezi ndetse n'ibindi.

Ibitaro byubatse neza bifite ibyumba byiza ndetse n'inyubako nziza imbere yabyo hakaba haparitse imodoka iparitse mu muhanda mwiza ndetse bikaba bifite n'ibiti byiza ndetse n'indabyo imbere yabyo.

Ku bitaro aho abamama bajya kubyarira cyangwa aho bajya kuba mu gihe bagitegereje ko babyara, imbere yaho hakaba hari umupapa uri kuhaca.

Ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge aho biboneka mu karere ka Nyarugenge bikaba byubatse neza ndetse ku buryo bwiza aho imbere yabyo hariho ibiti biteyeho ndetse n'umuhanda.

Ibyuma bigiye bitandukanye biboneka kwa muganga, harimo imashini z'ubwoko bwinshi n'utundi twuma twinshi twifashishwa na muganga, mu gihe ari kuvura abarwayi.

Kwa muganga, aho hariho ibitanda bigiye bitandukanye n'utundi dukoresho twinshi twifashishwa n'abaganga, barimo bavura abarwayi.

Abaganga bari kuvura abarwayi, aho barimo babasuzuma ndetse babafata amaraso, kugira ngo barebe uburwayi bwabo, kandi babahe n'imiti ibafasha.

Umuforomokazi wambaye itaburiya ndetse n'agapfukamunwa, aho ari ku mashini akaba arimo areba ibisubizo by'abarwayi yafatiye ibizamini, kugira ngo abone uko abaha imiti yo kubafasha.

Umwana wajyanwe kwa muganga aho yambaye ubusa hejuru, hasi akaba yambaye agapantaro ku mukara; ndetse akaba ari muganga uri kumwitaho kugira ngo amererwe neza.

Umuforomo aho yasuye umukecuru iwe mu rugo bakaba bicaranye, baganira kandi batera inkuru.

Abarwayi barwariye kwa muganga, bose bakaba baryamye ku bitanda byabo batuje, ubona ko basa nk'abarembye cyane.

Icyumba cyo kwa muganga kiriho igitanda gishashe neza kandi gifite n'umusego, hafi y'icyo gitanda hakaba harimo ibyuma, nka mashini ndetse n'ibindi bikoreshwa na muganga avura umurwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bishashe neza, imashini ziri hejuru zicanye kuri ibyo bitanda bisa nkaho ari zo zifashishwa iyo bari gusuzuma umurwayi, uryamye kuri ibyo bitanda.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda by'abarwayi, udutebe, imashini zifashishwa n'abaganga, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, bifasha abaganga mu kunoza umurimo wabo.

Ibikoresho bitandukanye biboneka ku bitaro, harimo udupupe dukoze mu buryo butandukanye ndetse ibitaro bikaba birimo amashusho agiye atandukanye, ashobora kwifashishwa kuvura abarwayi.

Umuforomokazi aho ari kwita ku murwayi, amuryamisha neza kandi amuha n'imiti kugira ngo umurwayi aze kumera neza.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, aho biboneka ahantu heza, imbere yabyo hakaba hateye indabyo nyinshiza cyane zibiha amahumbezi.

Imiti yo kwa muganga ipanze neza kandi mu buryo bwiza, ikaba ipanze mu kabati, itondetse neza ku buryo idashobora kwangirika byoroshye.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo, aho kiboneka hafi y'umuhanda wa kaburimbo, imbere yacyo hakaba hari abantu bavuye kwivuza kandi akaba ari abamama babiri.

Ibitaro bivura uburwayi bw'amaso, aho mu bitaro mu nda harimo ishusho rishushanyijeho amaso ndetse n'ibindi bice bigize amaso.

Abamama babiri bari kumwe, umwe akaba ari umuforomo, undi akaba ari umumama uvuye kubyara, aho akikiye umwana we neza.

Abaganga batandukanye harimo abapapa ndetse n'abamama bambaye impuzankano yabo, bakaba barimo bari mu kazi bagenzura imiti itandukanye, kugira ngo baze kuyiha abarwayi.

Farumasi nziza iboneka i Kanombe ikaba irimo imiti itandukanye, ndetse ivura n'uburwayi butandukanye, harimo ubwo mu nda, ubw'uruhu ndetse n'ubundi.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha aho cyubatse neza ndetse kikaba kiri n'ahantu heza, aho imbere yacyo hariho abantu bane abamama babiri ndetse n'abana babo babiri.

Icyumba cyo kwa muganga kimeze neza, kikaba kirimo amarido menshi agiye atandukanya. ibitanda by'abarwayi, hakaba harimo ibitanda byiza cyane, ndetse n'utundi tuntu nk'imashini, n'ibikoresho bifasha abarwayi.

Umuganga aho ahagararanye n'umwana w'umukobwa, umuganga akaba yambaye itaburiya ndetse afite n'utundi twuma tumufasha, akaba yambaye ndetse n'amarineti afite telefoni mu ntoki.

Icyumba cyo ku bitaro kibikwamo imiti, aho harimo imiti myinshi cyane ipanze ku buryo bwiza buyirinda kwangirika ndetse buyirinda n'ibindi bintu byayigirira nabi.

Ikigonderabuzima cya Rwerere aho cyubatse neza, imbere yaho hakaba hariho uturebyo ndetse dukase neza ku buryo bwiza, kikaba kiri ahantu heza gifite ibiti byinshi biteye imbere yacyo ndetse kikaba kiboneka ahantu h'amahumbeza.

Umuganga w'umu papa aho yambaye itaburiya wayicaye ku gatebe yifotoza ndetse aseka ubona ko anezerewe kandi yashimishijwe n'akazi akora.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, harimo kubaga abarwayi batandukanye, harimo imashini zitandukanye n'utundi twuma, twifashishwa na muganga kugira akazi ke kagende neza.

Abarwayi bari mu bitaro bakaba bari kwitabwaho n'abaganga, bagenda bareba indwara barwaye. Ndetse umwe akaba afungiwe no ku gitanda bisa nk'aho arembye cyane cyangwa arwaye indwara yo mu mutwe.

Icyumba cyo ku bitaro kirimo intebe eshatu, kikaba kirimo imeza eshatu, ndetse na mashine, amashusho ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane.

Imiti itandukanye yo kwa muganga, igiye ipanze mu bubiko bwayo kandi ipanze neza ku buryo ntakintu gishobora kuyangiza cyangwa idashobora kwangirika.

Ibitaro byubatse ku buryo bugezweho bwa etaje bikaba bifite ibirahure kandi bisa neza imbere yabyo hakaba hari umuhanda mwiza ndetse n'ibindi biti bihaha amahumbezi.

Ibitaro aho hari umuganga, uhagaze imbere yabyo, wambaye imyenda y'imyeru, akaba yambaye bote, yambaye ndetse, ishashi, nagapfukamunwa.

Umuganga uri gukoresha ikimashini kinini kandi ubona ko kigezweho, akaba ari ikimashini kesitariye impande y'igitanda cy'umurwayi kugira ngo kize kifashishwa mu gihe bari kuvura uwo murwayi.

Icyumba kirimo imeza nziza, intebe nziza zifite n'imifariso ndetse n'indabyo z'ubwoko bwinshi zitatsemo.

Abaganga bavura muri kirinike b'abakobwa bagera muri batandatu ndetse bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'impuzankano yabo, bakaba barimo bifotoza aho bahagaze hanze y'ibitaro ndetse bishimye.

Abaganga babiri bombi bambaye itaburiya aho bari gutembera hanze y'ibitaro ubona ko bagiye kwinjira mu kindi cyumba kirimo umurwayi kugira ngo bamwiteho.

Icyumba cyo kwa muganga kigizwe n'ibitanda bigiye bitandukanye byifashishwa hasuzumwa abarwayi, hakaba harimo intebe ndetse n'imashini zifashishwa na muganga agenzura indwara z'abarwayi.

Abantu benshi harimo abaganga, abanyabuzima ndetse n'izindi nzobere. Aho bateraniye ku bitaro ndetse bombi bambaye agapfakamunwa, kugira ngo bige ku kibazo cy'ibyorezo n'indwara zugarije isi.

Umurwayi urwariye kwa muganga, aho yiyoroshe kandi aryamye, imbere ye hakaba hariho ibyuma byinshi, bikaba ari byo bifasha muganga mu kumukurikirana, kumwe amaraso igihe yabuze, kumwongerera umwuka ndetse n'ibindi bikorwa.

Ibitaro byubatse neza ndetse bikaba byubatse ahantu heza, bifite amashanyarazi bikaba bifite jaride nziza n'ibindi biti bitandukanye biteye imbere yabyo, ibitaro bikaba byubatse mu buryo bw'itaje.

Umugabo urwariye kwa muganga akaba yambaye ingofero ndetse n'agapfukamunwa, imbere ye hahagaze umuganga uri kumwitaho wambaye n'itaburiya ikaba yamwambitse akantu ku kuboko kamufasha gufata amaraso.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe zigera muri eshatu hakaba harimo igitanda kimwe ndetse n'imashini n'utundi tuntu twinshi dufasha muganga.

Ibyuma byo kwa muganga bigiye bitandukanye, ndetse by'ubwoko, bwinshi byifashishwa na muganga ndetse n'abarwayi ku bitaro.

Abaganga bari kwifotoza bari hanze ya laboratwari bambaye neza kandi baseka cyane ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Abaganga barimo mu bitaro bakaba bari kwita ku barwayi bajya kwa muganga babaha imiti, babatera inshinge n'ubundi bufasha butandukanye.

Ibitanda bijyamwaho n'abarwayi kwa muganga aho byegeranye, bitonze ku muronko, byose bikaba bishashe neza, biriho amashuka meza ndetse n'ibindi byangombwa byose.

Umugabo wagiye kwa muganga, umuganga akaba arimo kumutera urushinge ku kuboko kugira ngo amukingire indwara zitandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Kigina aho kiboneka Kigina, imbere yacyo hakaba hariho umumama uhetse umwana ndetse ufite n'igitambaro cy'umweru wicaye hanze.

Abaganga benshi batandukanye ndetse bambaye inifomo aho bari mu bitaro, bakaba barimo bagenzura imiti itandukanye, abandi bakora ibizamini bitandukanye by'abarwayi kugira ngo babahe imiti ibagenewe.

Ibitaro byubatse neza bikaba bifite utuyira twiza, ibiti byiza biteye imbere yabyo, ndetse nabyo bikaba byubatswe neza mu buryo bw'itaje.

Raboratwari yifashishwa mu gusuzuma ndetse no gutanga ibisubizo bikwiye ku barwayi bagiye batandukanye.

Ibitaro byubatswe neza ndetse no ku buryo bwa etaji, imbere yabyo hakaba hari idarapo, jaride nziza ndetse n'akayira. Hakaba hari kunyuramo abantu batatu baturutse mu nzira zitandukanye.

Abantu bari muri sale nini aho bari mu kiganiro hariho abayobozi bane bicaye imbere yabo bafite imashini ndetse n'ibindi bikoresho ndetse buri wese akaba afite amazi imbere ye.

Icyumba cyo kwa muganga gikoze neza, kikaba kirimo intebe ndetse kikaba gifite umutuzo cyane ku buryo umuntu wese wahageze acyishimira.

Abakozi bo ku bitaro, aho bari kugenda bakora amasuku mu byumba by'abarwayi kugira ngo babarinde umwanda bityo ibitaro bihorane isuku.

Icyumba cyo ku ibitaro kirimo udutebe twiza kandi dutandukanye duteye ku buryo bwiza tukaba turimo imitako ndetse icyumba kikaba gikoze neza ku buryo bunogeye buri wese.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda cyiza kandi gisheshe neza, cyikaba cyirimo n'utundi dukoresho twifashishwa, kugira ngo umurwayi avurwe neza.

Ibitaro byubatse ku buryo bwiza, bifite jaride, umucaca, indabo zibikikije zimeze neza kandi z'ubwoko bwose, hamwe n'ibindi biti bihatanga amahumbezi.

Farumasi nziza yubatse ku buryo bwiza ndetse ikaba ifite imiti igiye itandukanye, imbere y'iyo farumasi hakaba haparitse abamotari benshi cyane.

Farumasi ya Iraguha, ibonekamo imiti itandukanye, nkiy' uburwayi bw' uruhu, uburwayi bwo munda, ubumuga ndetse n'ubundi, hamwe n'indi miti itandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kibonekamo udukoresho tugiye utandukanye, indobo bashiramo imyanda, imigezi igiye itandukanye izana amazi banywa n'ayo bakaraba, imashini zikoreshwa na muganga ndetse n'ibindi.

Icyuma cyifashishwa muri siporo kugira ngo gifashe ugikoresha mu kugorora umubiri we bityo bimurinde indwara zitandukanye kandi bitume umubiri we ugororoka.

Umumama urimo ukora siporo yigorora ku gasambi ndetse ahantu muri saro hameze neza kugira ngo afashe umubiri we kumererwa neza kandi bimurinde indwara zitandukanye.

Abantu bari gukora siporo bose bambaye amajezi, umwe akaba afite imipira ibiri undi akaba ari kugendera ku mbago cyangwa insimburangingo, ubona ko afite ikibazo.

Umugabo usa nk'ukuze aho ari muri gimu agenda akora siporo zitandukanye harimo izo gusimbuka ndetse n'izindi kugira ngo ananure umubiri we ndetse amererwe neza.

Ibikoresho bishobora kwifashishwa mu itumanaho, nka telefoni ngendanwa, kompiyuta, radiyo ndetse n'ibindi, bishobora gutuma bihutisha amakuru vuba.

Umukobwa uri ahantu mu gacaca yicaye, yambaye imyenda ya siporo n'inkweto za siporo, akaba arimo akora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri gukora siporo agenda aterura utuntu mu maboko ye, kugira ngo ayananure bityo amererwe neza kandi asusuruke.

Umupapa urimo gukora siporo, agenda yinanura akoresheje amaboko ye ndetse akagenda yinanura no mu mugongo kugira ngo umubiri we ukomeze kumererwa neza.

Umuntu uri gukora siporo akabaha yicaye ku gasambi, imbere ye hari utu ariteri, amazi n'utundi dukoresho tumufasha gukora siporo neza.

umuti uhagarika uburibwe cyangwa ububabare iyo umuntu ari kubabara ari muri siporo cyangwa indi mirimo.

Imiti itandukanye ishobora kwifashishwa muri siporo, ikaba iri mu bikapu bitatu aho kimwe gifunze, hakaba harimo amazi, inshinge, pomade, ndetse n'ibindi byarinda umuntu cyangwa bikamufasha mu gihe avunitse.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa muri siporo, hakaba harimo utu ariteri tugiye dutandukanye, umunzani upima ibiro, metero ipima uburebure, amazi ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye.

Umuntu uri kunywa amazi akoresheje icupa aho yari ari muri siporo, akaba ari kunywa amazi kugira ngo yongere akomeze siporo ze neza.

Ibikoresho byifashishwa muri siporo nk'umupira w'amaguru, umupira w'amaboko ndetse n'ibindi, utwuma twifashishwa n'umusifuzi ndetse n'ibindi.

Umukobwa umaze kubyuka, akaba yambaye agapantaro k'umugara ndetse n'agasengeri k'umukara, akaba ari kwinanura kugira ngo umubiri we umere neza, bityo abone kujya ku kazi.

Umupapa wambaye isengeri urimo akora siporo ngororamubiri, azunguza amaboko kandi ayahina. Kugira ngo imufashe, imurinde indwara zitandukanye zishobora guterwa no kudakora siporo.

Abantu batandukanye uko ari bane, kandi bose akaba ari abasore, aho bari muri siporo muri sitade, yo kwiruka bazenguruka sitade.

Umumama hamwe n'umupapa, aho bari kunywa amazi bari kumwe ndetse ubona ko babyishimiye kugira ngo ayo mazi abafashe mu mubiri wabo, bajye bahora bameze neza nta ndwara cyangwa andi mavunane.

Akagare gahabwa bamwe mu bafite ubumuga bw'ingingo, nk'ubw'amaguru, umugongo, ndetse n'ubundi kugira ngo babafashe kugenda neza, badakomereka. Bityo babashe kugera aho bashaka kujya.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri siporo harimo abaro, ibindi byuma byo kwicungaho ibifasha mu guterura, gufasha mu kugorora ingingo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuntu uri gukora siporo agorora amaguru ye ndetse n'amaboko kugira ngo arinde umubiri we uburwayi bushobora guterwa no kudakora siporo nko kubyibuha ndetse n'ubundi.

Umuntu urimo yikanda ukuboko akoresheje agapamba n'amazi, kugira ngo bimurinde imvune yagize kandi amererwe neza.

Umugabo wambaye ikote, akaba arimo anywa amazi akoresheje icupa bisa nkaho avuye muri siporo, bityo akaba ari kunywa amazi kugira ngo amufashe.

Umuti ufasha mu guhagarika uburibwe iyo umuntu ari kuribwa bitewe n'indwara runaka arwaye cyangwa yakoze impanuka.

Umuntu uri gukora siporo akoresheje amaguru y'aho arimo ayobora akantu akoresheje ukuguru k'umwe, akaba arimo agenda anyura, mu dukona kandi yunamye.

Ibikoresho byifashishwa muri siporo, harimo intebe ndetse n'ibindi byifashishwa umuntu abyicaraho, abinyonga ndetse n'ibindi kugira ngo bimufashe gukora siporo ye neza.

Abaganga batandukanye, aho bahuriye hamwe bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'ingofero ikoze mu mashashi, akaba bari kureba televiziyo.

Abantu bo mu kigero kigiye gitandukanye, harimo abapapa, abamama, aho bose bari mu kibuga bambaye imyenda ya siporo, barimo bagenda bakora siporo bose hamwe.

Umupapa wambaye isaha akaba ari kunywa amazi, kugirango amufashe mu mubiri, amurinde indwara kandi atume umubiri we uhora umeze neza.

Ibikoresho byifashishwa muri siporo cyangwa mu mupira w'amaguru. Nka baro, inkweto za godiyo, utwuma two mu amatwi, twifashishwa n'umusifuzi ndetse n'ibindi.

Umuntu uri muri siporo yambaye inkweto, amasogisi, ikabutura ndetse n'isengeri ya siporo, aho arimo agenda ananura amaguru ye ndetse n'amaboko.

Umuntu uri gukora siporo, aho yicaye ku ntebe, akaba arimo agenda aterura icyuma akoresheje ukuguru kwe kugira ngo akunanure.

Umuntu ufite igipfuku ku kaguru bisa nkaho yahakomeretse ari muri siporo akaba bamupfutse kugirango amererwe neza.

Abaganga bari mu bitaro bakaba bari kwita ku barwayi, bambaye amataburiya yabo ndetse n'udupfukamunwa kuri buri wese, barimo bita ku barwayi babaganye.

Indyo yuzuye yagufasha mu gukora siporo n'umuneke, imbuto zigiye zitandukanye z'ubwoko bwose, ku buryo uziriye ziguha imbaraga zikakurinda n'uburwayi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa muri siporo, harimo ibiterwa mu maboko nka ariteri n'ibindi byinshi cyane.

Umuntu urimo gukora siporo aryamye ndetse akaba ari gukoresha ukuguru akurura umugozi kugira ngo ngo ananure mu matako.

Umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga kugira ngo asuzumwe anitabweho n'abaganga bityo abone gukura neza.

Umumama n'umwana we aho barimo bakina, batandukanye nko gukoma mashyi ndetse n'iyindi, kugira ngo umumama atoze umwana we gukura neza, kandi akure ashabutse.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi aho ari kumushyira igipfuko ku ukuguru bisa nkaho uwo murwayi yavunitse ari muri siporo cyangwa ibindi bikorwa ndetse muganga akaba ari kumufasha.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, aho igiye gukata ikoni, ikaba iri kugenda buhoro cyane.

Umuntu urimo akora siporo ngororamubiri ananura intoki ze ndetse n'amaguru ye, akaba yambaye imyenda ya siporo, ari ikabutura ndetse n'isengeri.

Abantu bafite udukapu turimo ubutabazi bw'ibanze nk'ibinini, pomade, udushinge ndetse n'ibindi bintu byose waha nk'umuntu uvunitse bitunguranye cyangwa ugize ikindi kibazo mu gihe ari muri siporo.

Abantu bari muri siporo ngororamubiri, aho umwe ahagaze akaba arimo agenda yinanura, undi akaba yicaye ari kunywa amazi, bose bambaye imyenda ya siporo ndetse bafite n'ibikapu.

Umuntu urimo ugenda akanda amaguru, undi muntu bisa nkaho yakomeretse cyangwa yagize ikibazo, ari muri siporo bityo akaba ari kumufasha kugirango amere neza.

Abantu bateruye umuntu bamuha ubutabazi bw'ibanze bisa nk'aho avunitse yari ari gukina cyangwa izindi siporo bityo bakaba bamujyanye kwa muganga.

Igikoresho cyifashishwa muri siporo, kikaba gifasha abantu gukuraho inda nini bityo bagasigarana inda ntoya kandi ikomeye, kikaba kigura ibihumbi ijana na makumyabiri.

Imipira igiye itandukanye yifashishwa iyo umuntu ari gukora siporo, hakaba harimo umupira w'amaguru, uwa basikete, uw'intoki, hakaba harimo utudenesi tw'ubwoko butandukanye ndetse n'utundi dukoresho twifashishwa n'umusifuzi.

Umupapa urimo akora siporo, agenda aterura utuntu mu maboko ye, kugira ngo ayananure ayarinde kumugara bityo umubiri we ukomeze ukore neza.

Imbuto zigiye zitandukanye harimo umuneke, inanasi, ironji ndetse n'izindi zagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Umuntu uri kunywa amazi akaba yambaye na kuteri ubona ko ari muri siporo bityo akaba ari kunywa amazi kugira ngo amwongerere imbaraga.

Umuntu urimo kwikanda akoresheje agatambaro kabugenewe ndetse n'amazi, bisa nkaho yavunitse kugira ngo ukuguru kwe kongere kumere neza.

Umumama ufite igitenge ndetse wambaye isengeri aho ari kunywa amazi kugirango amufashe mu mubiri atume amererwa neza kandi amurinde indwara zitandukanye.

Imbuto zigiye zitandukanye, zagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza, bityo ubashe no gukora siporo neza, harimo nk'umuneke, kokombure, ironji, indimu, ndetse n'izindi.

Umuntu wakomeretse ari muri siporo, bakaba bamuhaye ubutabazi bw'ibanze, aho bamurambitse ku kirangiti cyiza cyane, bakaba bagiye kumuryamisha kugira ngo aruhuke maze bamujyane ku bitaro.

Imiti ikoreshwa muri siporo ikaba iri mu bikapu bitatu, hakaba harimo bibiri bifunguye muri iyo miti hakaba harimo utumakasi ndetse n'ibindi.

Ibikoresho byifashishwa muri siporo, harimo imiti, pomade ndetse n'ibindi byifashishwa kugira ngo bifashe umuntu uri muri siporo.

Umupapa n'undi bari kumwe aho ubona ko umwe ari umutoza undi akaba ari umukinnyi aho umutoza ari kwambika umukinnyi ga zo gukinana kugira ngo afate neza. bisa nkaho uwo mukinnyi ari umuzamu.

Umuforomokazi wambaye itaburiya, ga n'agapfukamunwa aho afite amakayi akaba arimo areba muri mashini kugira ngo arebe ibisubizo by'umurwayi yafitiye ibizamini.

Umuntu uvuye muri siporo, akaba ari kunywa amazi akoresheje icupa, bisa nkaho yananiwe ari kugira ngo umubiri we ugarure ingufu cyangwa ubuyanja.

Ibikoresho byifashishwa muri siporo, hagororwa ingingo zimwe na zimwe nk'amaguru, amaboko, umugongo, ibikanu, ndetse n'ibindi ndetse ibikoresho akaba ari byinshi cyane.

Imbuto ndetse n'imboga zitandukanye umuntu ashobora kurya kugira ngo umubiri we umererwe neza ndetse bimurinde indwara harimo karabati, uruboga rw'amashu ndetse n'utundi tubuto dutandukanye.

Umurwayi wajyanywe kwa muganga akaba ari kwitabwaho, akaba bamuryamishije ku gasambi keza, bisa nkaho yakomerekeye mu kibuga, cyangwa yakoze indi mpanuka.

Umumama wicaye hasi ndetse wambaye inkweto z'umweru ipantaro y' umukara ndetse n'agasengeri k'umukara akaba arimo akora siporo ngororamubiri kugira ngo umubiri we umererwe neza.

Abantu bari muri siporo, umugabo n'umugore bambaye imyenda ya siporo ndetse bakaba bafite n'uducupa turimo amazi mu ntoki kugirango bagende banywaho igihe bagize inyota.

Umuti uboneka mu bitaro, ukaba wifashishwa uhagarika ububabare, nk'igihe umuntu yakomeretse cyangwa yavunitse, bityo akaba yawukoresha kugira ngo umugabanyirize ububabare.

Umuntu uri muri sporo, yambaye imyenda ya siporo ndetse n'inkweto za siporo, aho ari kugenda agorora amaguru ye ndetse n'intoki, akaba kandi yambaye na kuteri.

Abantu bari mu cyumba cya siporo kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho bari kugenda babyifashisha bananura ingingo zabo nk'amaguru, amaboko, umugongo ndetse n'izindi.

Akagare gahabwa umuntu ufite ubumuga bw'amaguru cyangwa bwo kutagenda kugira ngo kamufashe kuza ajya ahantu ashaka hose.

Umugabo uri gukora siporo, yambaye imyenda ya siporo n'agasengeri, aho ahagaze yifashe mu mutwe, ari kwinanura, azunguza amaboko n'umutwe.

Umumama uri gukora siporo yinanura kugira ngo ananure impyiko ze, bityo bimurinde ubumuga bwa hato na hato.

Insimburangingo zigiye zitandukanye, zishobora guhabwa umuntu wacitse ukuguru cyangwa ufite ikibazo cy'ukuguru, kugira ngo nawe abashe kugenda nk'abandi.

Umuntu uri gukora siporo, akaba yicaye hasi, arimo agenda ananura amaguru ye ndetse n'amaboko, akaba afite kandi n'amazi ari kugenda anywaho.

Umuntu uri gukora siporo yifashe amaguru, amaboko yarambuye imbere aho agenda asimbuka akora siporo kugirango umubiri we ukomeze kumera neza.

Umuntu uri gukora siporo agenda yinanura, anura amaguru ye ndetse n'amaboko, yambaye inkweto za siporo, ipantaro ya sporo ndetse n'agasengeri ka siporo, imbere ye hakaba hariho amazi ari kugenda anywa kugira ngo akomeze kumera neza.

Umupapa uri muri siporo akaba arimo apfukamye ndetse aterura n'ibindi bintu biremereye kugira ngo bimwongerere imbaraga mu maboko.

Umuntu urimo yikanda ikirenge akoresheje agatambaro kabugenewe ndetse n'amazi, aho ubona y'uko yavunitse akaba arimo yikanda kugira ngo ikirenge cye kimererwe neza.

Ibyiza byo gukora siporo nko kukugabanyiriza umubyibuho gutuma amaraso yawe atembera neza mu mubiri, kurinda siteresi, igufasha kugira ngo igogora ryawe rigende neza ndetse n'ibindi byinshi.

Umumama ufite umusatsi mwinshi, aho ari gukora siporo akora ku kirenge kandi yinanura, kugira ngo umubiri we umererwe neza kandi ugororoke.

Umuntu uri gukora siporo ageretse akaguru ku giti, ndetse yifashe mu mayunguyungu, kugira ngo umubiri we ukomeze umere neza n'amaraso atembere neza mu mubiri.

Insimburangingo yifashishwa iyo umuntu adafite ukuguru, cyangwa ukuguru kwe gufite ikibazo, bityo aba yayihabwa kugira ngo imufashe abashe kugenda.

Umumama uri gukora siporo akaba yazamuye amaboko, ari imbere y'ikiyaga bisa nkaho agiye koga muri icyo kiyaga.

Umuntu uri kwikanda akoresheje agatambaro n'amazi bisa nkaho yavunitse ukuboko, bityo akaba arimo agukanda kugira ngo akurinde kubyimbirwa ahubwo kumererwe neza.

Udukoresho twifashishwa muri siporo harimo ibinini, pomade, pade, ga, ndetse n'ibindi kugira ngo siporo ize gukorwa neza.

Abapapa babiri bari muri siporo, bombi bambaye imyenda ya siporo n'inkweto za siporo, aho umwe ari muri siporo zo kwiruka asimbuka utuntu, undi akaba ari kumureberera.

Umuntu uri gukora siporo zamaguru n'amaboko aho arimo agenda akora udupompaje hamwe n'indi myitozo, kugira ngo ananure umubiri we.

Umuntu uri kwikanda ukuguru akoresheje agatambaro k'ubururu n'intoki, agenda yikanda kugira ngo ukuguru kumere neza. Bisa nk'aho yari yavunitse.

Umuntu uvuye muri siporo bityo akaba afite agacupa k'amazi ari kuyanywa kugirango amufashe amugarurire imbaraga yatakaje bityo akomeze kumererwa neza.

Imiti yo kwa muganga ikorwa mu bihingwa bigiye bitandukanya hamwe n'ibimera bityo igatunganwa ikaba yakifashisha ivurwa indwara z'ubwoko bwose.

Ibibabi by'igiti cyifashishwa hakurwamo imiti itandukanye, ikamurwa igashyirwa mu ducupa twabugenewe, cyangwa utundi dukoresho bityo yifashishiwe ivura indwara zitandukanye.

Ibyatsi by'ibinyakinani bimera mu ishyamba cyangwa no mu gihuru, bikaba byakwifashishwa bitunganywa bityo bikavamo imiti ivura abarwayi ku bitaro.

Imiti ituruka mu byatsi gakondo, aho bifatwa igatunganywa bityo hagakurwamo iyi miti ikaba yashyirwa mu ducupa twabugenewe ndetse n'ibindi bikoresho biyirinda kwangirika.

Igiti cy'umuravumba, kikaba kivura indwara zigiye zitandukanye harimo nk'izo mu nda, inzoka, izo ku ruhu ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Umuti ukorwa mu buki, ukaba ari umuti uvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara zo mu nda, indwara z'uruhu ndetse n'izindi.

Umuti witwa aroviyara uva mu bihingwa ndetse n'ibindi bimera ukaba ubufatwa ugatunganywa, ugakamurwa bakoresheje imashini zababugenewe bityo ukaba wakwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo itunganywa binyuze mu kuyisekura, ikaba ari imiti igizwe n'utubabi tugiye dutandukanye ndetse n'ibihingwa bigiye bitandukanye bityo ikaba yakwifashishwa ivura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo harimo nk'ibikakarubamba ndetse n'ibindi ifatwa igatunganywa ikaba yashyirwa mu tuntu twabugenewe kugirango yifashishe kwa muganga mu kuvura indwara zitandukanye.

Umumama wambaye neza aho ari gusoroma imboga kugira ngo aje kuziteka, azirye bityo zimurinde uburwayi butandukanye kandi zitume umubiri we umera neza.

Imiti ikorwa mu bikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi, ikaba ivura indwara zitandukanye harimo nk'iz'amenyo ndetse n'izindi.

Farumasi ibamo imiti gakondo itandukanye itunganyijwe ikagenda ishyirwa mu macupa atandukanye bityo ikifashisha ivura indwara zitandukanye.

Imboga zigiye zitandukanye zishobora kuribwa binyujije mu bindi biryo bikaba zarinda umuntu indwara zitandukanye cyangwa kurwaragurika.

Ibiti bishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo igikakarubamba ndetse n'ibindi binyuze mu kubikamura havanwamo amazi yabyo ndetse bikaba byabuganiza bigashyirwa mu tuntu kabugenewe kugira ngo birinde kwangirika.

Imiti gakondo igiye itandukanye harimo iy'udufu, ibinyampeke, ibyatsi bivuguse ndetse n'iyindi yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti yifashishwa kwa muganga ituruka mu byatsi gakondo, cy'igikakarubamba ikaba ifatwa igatunganywa, bityo igashyirwa no mu bucupa bwabugenewe ikaba yifashishwa ivura indwara zitandukanye.

Ubuvuzi gakondo ndetse n'imiti gakondo igizwe n'utubuto, utwatsi ndetse n'utundi tuntu dusekuye ushobora kwifashisha ujya, wisiga cyangwa binyuze mu zindi nzira bityo bikaba byakuvura indwara zitandukanye.

Imiti igiye itandukanye iva mu byatsi gakondo, ibimera, ibiribwa ndetse no mu bindi, aho bifatwa bigatunganywa bityo bikaba byabuganizwa bigashyirwa mu tuntu twiza twabugenewe tuyirinda kwangirika.

Imiti gakondo ivanwa mu byatsi bitandukanye ikaba itunganywa igashyirwa mu ducupa, udukarito ndetse n'utundi tunu twabugenewe kugira ngo yifashishwe ivura indwara zitandukanye.

Ibinini bikorwa mu byatsi gakondo, aho bifatwa bigatunganywa bityo ibyo binini bikaba bishobora kwifashishwa bivura indwara zitandukanye.

Kurogati ituruka mu gikakarubamba bafata bakagitunganya hakoreshejwe imashini zabugenewe, bityo ikaba yifashishwa mu gusukura amenyo no kuyarinda indwara.

Ibintu byagufasha kugira ngo umubiri wawe uwurinde indwara harimo ibiribwa, ibinyobwa nk'ubuki, inanasi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Kandi sanitayiza umuti wifashishwa wica udukoko dushobora kwanduza umuntu indwara nyinshi kandi zitandukanye.

Igiti cy'umuravumba cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi harimo: inkorora, indwara zo mu nda, ndetse n'izindi zitandukanye.

Umuganga uri mu bitaro aho afashe umuti mu ntoki arimo awitegereza awureba neza kugira ngo aze kuwuha umurwayi umeze neza.

Imiti ya kinyarwanda, harimo umuravumba aho wafashwe ugatogoswa, bityo ukaba wifashishwa mu kuvura nk'ahantu habyimbiwe nko kuhakanda ndetse n'ibindi.

Imiti itandukanye harimo iy'ibinini, ibisukika n'ibidasukika, ikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi kandi zitandukanye.

Ibyatsi ndetse n'imbuto gakondo bifatwa bigasekurwa, ndetse bikaba byanakamurwa, bikaba byakwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibyatsi bitandukanye bituruka ku biti bigiye bitandukanye, aho byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, binyuze mu kubikamura, hakoresheje imashini zabugenewe.

Imbuto zitandukanye ushobora kuba warya zikakugirira akamaro kenshi harimo nk'inanasi umuneke ndetse n'utundi tubuto twinshi bityo ukaba wamererwa neza.

Umuravumba, umwe mu muti wa kinyarwanda uvura indwara zigiye zitandukanye nk'inzoka zo mu nda, inkorora ndetse n'izindi nyinshi.

Ibyatsi by'ibinyakinani bimera mu ishyamba, bikaba byakifashishwa nk'imiti mu gihe bitunganyijwe hakoreshejwe imashini zabugenewe, bityo bikaba byavura indwara zitandukanye.

Imiti itandukanye yatunganyijwe igashyirwa mu tuntu twabugenewe nk'utubido, udukarito, amacupa ndetse n'ibindi, bityo ikaba ihabwa abarwayi batandukanye.

Imiti ikorwa mu byatsi gakondo bifatwa bigatunganywa, bityo bigashyirwa mu macupa yabugenewe, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kwa muganga.

Igiti cyakururumbye ndetse kikaba cyifashishwa hakorwamo imiti itandukanye ishobora gufasha abarwayi bitewe n'indwara barwaye.

Umuravumba kimwe mu byatsi bivura indwara nyinshi, harimo inkorora, indwara zo mu nda, indwara z'uruhu ndetse n'izindi.

Imiti gakondo igiye itandukanye yose ikaba iri mu dusorori, harimo ikoze mu mbuto zigiye zitandukanye nk'ipapayi, indi yagiye isekurarwa ikayungururwa cyangwa ikanika, hamwe n'indi itandukanye yifashisha mu kuvura indwara nyinshi.

Ibibabi bigiye bitandukanye byifashishwa bigatunganywa hakaba havamo imiti ishobora gukoreshwa kwa muganga ivura indwara zitandukanye.

Akatsi kitwa inyabarasanya kifashishwa gashyirwa ku gisebe bityo kagatuma cyuma vuba kandi kakagikamura bityo kakaba kifashishwa mu butabazi bw'ibanze mu gihe umuntu atagiye kwa muganga.

Icyatsi kitwa igikakarubamba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo: iz'uruhu, izo mu nda ndetse n'izindi.

Ibyatsi bishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye binyuze mu kubitunganya bikaba byavura abarwayi n'indwara zitandukanye.

Indabo zigiye zitandukanye n'ibiti by'ubwoko butandukanye bitegwa, aho byifashishwa bifatwa bikaba byatunganywa ndetse bigakurwamo imiti itandukanye.

Bimwe mu bimera bi amo amavuta meza

Ikibabi cy'ikibonobono, nka kimwe mu kibabi kivura indwara zigiye zitandukanye, binyuze mu kugisekura cyangwa umuntu akakivungukira mu ntoki, bityo akaba yanywa amazi avuyemo.

Igiti cyifashishwa gikurwamo imiti ishobora gukoreshwa kwa muganga, binyuze mu kugikamura bagakuramo amazi yacyo, ndetse agashyirwa mu tuntu twabugenewe, kugira ngo gifashishwe bavura indwara zitandukanye.

Imbuto zigiye zitandukanye harimo indimu, amarogi, ndetse n'izindi zishobora gufasha umuntu kumurinda indwara cyane cyane nk'izo mu nda ndetse n'izindi.

Imbuto zitandukanye zifatwa zigakamurwa hakaba havamo umutobe bityo umuntu akaba yawunywa kandi umutobe ukaba uryoshye cyane.

Umuti witwa arovera uva ku bihingwa ndetse n'ibindi bimera bitunganywa, bityo ukaba wakwifashishwa uvura indwara zitandukanye, ukaba uri mu gacupa gafunze neza kandi kameze neza.

Ibyatsi gakondo byifashishwa bivura indwara zitandukanye, n'igisebe ndetse n'izindi ndwara bityo bikaba byifashishwa nk'butabazi bw'ibanzi.

Imiti itandukanye ya Kinyarwanda, itegurwa binyuze mu kuyisekura, hamwe n'indi igiye itandukanye bavuguta, bayungurura banika ndetse n'indi, bityo ikaba yakwifashishwa mu kuvura indwara.

Imiti itandukanye igenda ikurwa mu byatsi gakondo, ibimera ndetse n'ibindi bityo igatunganywa ikaba yakwifashishwa kwa muganga ivura indwara zitandukanye.

Tungurusumu nka bimwe mu bintu bikoreshwa bivura indwara zitandukanye, binyuze kuzihekenya, kuziteka mu biryo ndetse n'ubundi buryo.

Ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibimera bitandukanye, byifashishwa hakurwamo imiti itandukanye, ishobora gukoreshwa kwa muganga binyuze mukubikamura, cyangwa ubundi buryo bwo kubitunganya.

Ibyatsi bigiye bitandukanye biboneka ahantu mu cyaro bishobora kwifashishwa bivura indwara zitandukanye binyuze mu kubitunganya bikaba byashyirwa mu tuntu twabugenewe bityo bikavura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo yatunganyijwe neza biturutse mu byatsi, ibiribwa, ibimera ndetse n'ahandi hantu, igashyirwa mu ducupa twabugenewe ku buryo ishobora kwifashishwa ivura abaturage bagiye batandukanye, barwaye indwara zitandukanye, bityo ikaba itondetse neza mu kabati ku buryo itakwangirika.